Abazungu babiri bicaye kumeza barimo bararya bananywa, bicaranye n'undi mugabo w'umwirabura hirya abantu bumweru barikuza bafite amacupa arimo ibyo kunywa ndetse n'amasahani ariho ibyo kurya imbere yabo hari telefone.